Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri, ndetse gisizwe irangi ry'umweru. Kirimo abaganga batandukanye bambaye impuzankano y'ubuganga iri mu iba ry'umweru, ndetse n'abarwayi benshi harimo abaryamye ku bitanda by'abarwayi higanjemo abagore.